Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kirimo amakaro ndetse n'urumuri, gisizwe irange ry'umuhondo, kirimo kandi ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi, kirimo igitanda cy'ikoranabuhanga kigizwe n'amatera iri mu ibara ry'umweru.

Muri raboratwari cyangwa se ahavurirwa abarwayi harimo umuganga wambaye udukoresho twabugenewe arimo haravura umurwayi uryamye ku gitanda.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo amakaro, urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umuganga w'umwirabura wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse yambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'ibara ry'icyatsi, arire guha serivisi umurwayi wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse kirimo abaganga batandukanye higanjemo abambaye impuzankano igizwe n'amataburiya y'umweru, harimo umuganga w'umugabo ufite igitabo mu ntoki imbere ye hari umurwayi yicaye ku gitanda cy'abarwayi.

Isoko ricururizwamo imyenda itandukanye ririmo abaguzi ndetse n'abagurisha, harimo kandi umuhanda w'igitaka urimo abantu batatu bari kugenda, uw'imbere yambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ijire irmwo ibara ry'umweru, ririho ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu ibara ry'amutuku.

Abakozi ba Croix Rouge umuryango utegamiye kuri Leta utabare imbabare, bifashishwa mu bikorwa bitandukanye byahuriweho n'abantu benshi kugira ngo nihaba ikibazo bifashishwe.

Imbuga nini yubakishijwe amapave irimo abaganga babiri bambaye impuzankano iri mu iba ry'umweru, bari gusunika agatanda kaho umurwayi w'umugore, uryamye hirya yabo hari imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi, ifite amabara atandukanye yiganjemo iry'umweru., ku ruhande rwayo hari umusirikare wambaye agapfukamunwa, wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.

Ambulance mu kinyarwanda zizwi nk'ibangukiragutabara zifashishwa mu gutwara abantu barwaye cyangwa se indembe zibavana aho barwariye zibageze kwa muganga.

Icyumba kirimo urumuri gishyizwe irangi riri mu ibara ry'umuhondo kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa gupima harebwa indwara zitandukanye, kirimo abaganga babiri bambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Imbuga nini yubakishijwe amapave irimo ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abarwayi kiri mu ibara ry'umweru ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'uburu, iruhande rwacyo hari abantu batandukanye harimo umugabo wambaye amarinete, ishati ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kwivuza, cyicawemo n'abana batandukanye higanjemo abarwayi, harimo umuganga ukenyeyr igitenge mu mutwe wambaye itaburiye iririmo ibara ry'umweru, arigutera urushinge umusore wambaye umupira ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umweru wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho.

Umuhanda wubakishijwe amabuye hirya yawo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye kimanitseho ibyapa bitandukanye higanjemo ibifite ubuso bw'umweru. Imbere gato hari umuryango wanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agaragaza ko ari ibitaro bya Kigeme.

Inzu nini isizwe irangi, Imanitsemo televiziyo ndetse hasi yayo hari icyapa kiriho ikiranga ntengo cya repubulika y'u Rwanda gishushanyijeho inzu isizwe irangi ry'ubururu, imbere yacyo hari umugabo uhagaze wambaye ishati irimo ibara ry'umweru ndetse imbere ye hari abantu bicaye ku ntebe zikorwa mu mbaho.

Icyumba kinini gikorerwamo inama kirimo amakaro ndetse gisizwe irangi ry'umweru, kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, kirimo umugore uhagaze wambaye umupira w'umutuku isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro, imbere ye hari abagabo bicaye ku ntebe z'umukara ndetse hagati yabo hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse byifashishwa mu gutuma bamera neza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hazindukiye abantu batandukanye harimo abakuze ndetse n'abakiri bato, baje gukemurirwa ibibazo by'ubuzima bwabo bafite.

Inzu nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi irimo abantu batandukanye higanjemo abagabo, umwe muri bo arasutamye yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse na ga ziri mu ibara ry'umweru, inyuma ye hari umugabo w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyubakishijwe amakaro ari mu ibara ry'umweru, kirimo urumuri, ndetse kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, kirimo kandi abaganga batandukanye, harimo umuganga w'umugabo wambaye imyenda y'ubururu, iruhande rwe hari igitanda kiri mu ibara ry'umukara, kiryamaho abarwayi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisizwe irangi ry'umweru kiririmo urumuri ndetse kirimo n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, kirimo intebe nini ziririmo ibara ry'umukara, imbere yazo hari abaganga bambaye impuzankano irimo ibara ry'umweru ndetse inyuma yaho hari amarido ari mu ibara ry'ubururu.

Imbuga nini iri gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi irimo abantu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru, hari umusore w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ipantaro y'ikoboyi na ga ziri mu ibara ry'ubururu, ari guha serivise umurwayi wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku.

Imashini yo kwa muganga iri mu cyumba umurwayi aryamamo, yifashishwa mu gusuzuma, gupima ndetse no kureba uko ubuzima bw'umurwayi bumeze.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura ndetse kimo amakaro, kirimo umuganga w'umugore wambaye itaboburiya riri mu ibaburara ry'umweru, imbere ye hari i imeza ikozwe mu mbaho, iriho ibikoresho bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo urumuri, gisize irangi ry'umuhondo, kirimo irido ndetse kimanitsemo ibyapa bitandukanye, kirimo abantu babiri, umugabo n'umugore, bafashe mu ntoki seritifika iri mu ibara ry'umweru ndetse iriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisize irangi ry'umuhondo ndetse kirimo abantu babiri, harimo umuganga wambaye impuzankano igizwe n'itaburiya riri mu iburara ry'umweru ndetse ari guha serivisi umurwayi wambaye ishati, ipantaro ya kaki, wicaye ku ntebe.

Icyumba cyiza kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo abagabo babiri bahagaze bafite icyapa mu ntoki kiriho ikirangantego cya repubulika y'urwanda. Umwe muri bo, yambaye umupira w'umukara mugenzi we yambaye ikoti ry'umukara, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Ivuriro rigizwe n'inyubako nyinshi zifite amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse zubakishijwe amatafari ahiye, imbere yazo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze higanjemo abagabo, hari umugore uri kuvuga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwe hari abasirikare bambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi, kirimo umuganga w'umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe wambaye itaburiya irimo ibara ry'umweru, iruhande rwe hari agatanda k'abarwayi karimo ibara ry'umukara ndetse n'igikoresho cya kankandagira ukarabe gikozwe mu cyuma.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo imiti itandukanye ndetse kirimo urumuri. Kirimo umugore wicaye ufite ibisuko by'umukara, wambaye amaherena ku gutwi, ndetse imbere ye hari imeza iriho imiti itandukanye, ndetse na mudasobwa. Imbere ye hari umubyeyi wicaye, iruhande rwe hari umwana muto ufite ibisuko birimo ibara ry'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, gisizwe irangi ry'umweru ndetse kirimo umuganga w'umugabo wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari ibikoresho bitandukanye.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kirimo abasore b'abaganga bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru umwe muri bo yambaye amarinete ndetse n'agakomo ku kuboko ari gupima indwara akoresheje icyuma cya mikorosikope.

Muri raboratwari harimo ibikoresho bitandukanye birimo mikorosikopi, ndetse n'ibyifashishwa harimo iminzani, biteretse ku meza ari mu ibara ry'imyeru.

Icyumba kirimo urumuri gisiga irangi ry'umuhondo kirimo imiti itandukanye higanjemo hifashishwa ku bitaro, harimo imiti irimo amacupa arimo ibara ry'umweru yanitswehomo arimo ibara ry'umukara, inyuma yayo hari agatanda k'abarwayi gafite matela iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba kinini, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo abana bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Harimo umwana muto wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'igitenge, yicaye ku ntebe, imbere ye, hari igikoresho gikozwe mu mbaho, kiriho mudasobwa.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi, gitewemo ibiti bitandukanye, ndetse kicawemo n'abantu batandukanye, higanjemo abagabo, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho. Imbere yabo hari umusore wambaye ijire, ipantaro y'ikoboyi, ndetse afite mikoro.

Umugabo wambaye amadarubindi, arimo aranywesha umwana amata mu cyansi, bose bambaye udupira twa orange biragaragara ko bashinzwe imibereho myiza y'abana.

Umukecuru wambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu, iriho amagambo ari mu ibara ry'umweru, yambaye ijire iriho icyapa cya Yunisefu, ari guha amata umwana wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, ndetse inyuma yaho, hari ibyapa bitandukanye, higanjemo ibiri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'icyatsi.

Icyumba gitangirwamo ubumenyi kirimo ikibaho cy'umukara ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo umugabo wambaye ijire ndetse imbere ye hari imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri bato biga mu mashuri y'inshuke, bicaye ku dutebe turimo ibara ry'ubururu hagati muri bo hari amezi akozwe mu mbaho.

Icyumba cy'amashuri kigirwamo kirimo idirishya ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo kandi kirimo ikibaho kiri mu ibara ry'umukara, inyuma yacyo hari umwarimu w'umugabo wicaye, imbere ye hari ameza ndetse hari umugabo ufite urupapuro mu ntoki, inyuma ye hari abanyeshuri b'inshuke batandukanye bicaye ku dutebe, imbere yabo hari ameza manini akozwe mu mbaho.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umweru ryiciwemo n'abantu batandukanye, imbere hari umupolisi n'umugore wambaye impuzankano y'Igipolisi cy'u Rwanda igizwe n'ibara ry'umukara, imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi ndetse wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Abaganga batatu, harimo umugabo umwe, wambaye amarinete ndetse iruhande rwe hari umugore w'umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ikarita y'akazi mu ijosi. Inyuma yabo hari ibyapa byinshi higanjemo, ibifite ubuso buri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye amarinete ufite mikoro mu ntoki ndetse yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara, inyuma ye hari imbaga nyamwinshi y'abantu bamwe barahagaze abandi baricaye, inyuma hari ibiti bitandukanye ndetse inyuma cyane hari inzu zikorerwamo ubucuruzi, imwe muri zo itewe irangi riri mu ibara ry'ubururu.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari ahiye, isizwe amarangi atandukanye, higanjemo iry'umweru, ifite inzugi zifite ibirahuri binini by'umukara, imbere yayo hari umugore n'umugabo, umugabo yambaye amarinete, ikoti ry'umukara ririmo uturongo tw'umweru, ndetse ateruye umwana. Iruhande rwe hari umugore, witeze igitambaro cy'umukara mu mutwe, ndetse ateruye umwana wambaye agapira karimo ibara ry'umutuku.

Umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye amarinete ndetse n'amaherena ku gutwi. Ari guha amata umwana wambaye agapira ka orange, kariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Inyuma yabo hicaye abana batandukanye ndetse hari umukobwa uri gufotora wambaye ijire riri mu ibara rya orange.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri b'inshuke, gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse kirimo abantu benshi higanjemo ababyeyi, bafite amasahani ariho ibiryo, imbere yabo hari abanyeshuri bato bicaye ku ntebe ziganjemo iziri mu ibara ry'umuhondo ndetse hagati hari ameza ari mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo kandi ikibaho kiri mu iba ry'umukara ndetse kirimo abanyeshuri b'abana bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'ubururu, harimo umugabo uri gusuka igikoma wambaye ijiri.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi bitoshye kiciwemo n'abantu harimo umugabo wambaye agapfukamunwa wicaye uri gukoreshe telefone, iruhande rwe hari umugore wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, agapfukamunwa ndetse ari no gukoresha telefone, hirya gato hari umugore wambaye agapfukamunwa n'itaburira iri mu ibara ry'ubururu aricaye ndetse afite telefone mu kiganza.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo w'umuhondo hagati, iruhande rwawo hari inzira icamo amazi yubakishijwe amabuye, imbere gato hari itsinda ry'abanyeshuri ryambaye impuzankano irimo mu mipira y'icyatsi ndetse n'amapantaro ya kaki, babiri b'imbere bafashe icyapa kirimo ubuso bw'umweru.

Abaturage bishimye harimo abagabo ndetse n'abagore barimo baraseka bafite indabo mu ntoki biragaragara ko hari uwo bari kuziha.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, kirimo abantu batandukanye ndetse gisize irangi ry'umweru. Kirimo umugore uhagaze ku makaro ufite mikoro wambaye umupira w'umweru. Inyuma ye hari abagabo bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara.

Imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo igitsina gabo, inyuma yabo hari icyapa kinini kigizwe n'ubuso bw'umweru cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru agaragaza ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe.

Ahantu hicaye abantu batanu, harimo umugabo umwe wicaye ku gatebe ka kinyarwanda, wambaye umupira w'ubururu. Imbere ye hari abagore bane umwe muri bo yambaye ikanzu igizwe n'amabara y'umweru n'umukara, afite ikaramu mu ntoki ndetse n'urupapuro.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi gisizwe irange ry'umuhondo kirimo urumuri ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye, hari akameza gakozwe mu cyuma gateretseho icupa ry'amazi iruhande rwaryo hari sanitayiza yifashishwa mu gusukura intoki.

Uturindantoki tw'umweru, utu twifashishwa mu kugira isuku bityo ukora serivisi akaba atakwandura mu gihe bibaye nk'ibyago.

Inzu icururizwamo imiti iri muri etajeri ikozwe mu mbaho irimo imiti itandukanye higanjemo iri mu ducupa, mu dukarita ndetse harimo abagabo babiri, umugabo umwe yambaye umupira urimo ibara ry'ubururu ndetse imbere ye hari umusore w'umuganga wambaye iteburiya iri mu ibara ry'umweru.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, irimo ibijerekani biri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabyo hari inzu nini ikorerwamo ubucuruzi, isi irangi ry'umuhondo ndetse ifite inzugi ziri mu ibara ry'icyatsi, hejuru yayo hari icyapa gifite ubuso bw'icyatsi cyanitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Imbuga nini yubakishijwe amapave. Iruhande rwayo hari inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse hari umuryango urimo foromasi. Hejuru yawo hari icyapa kinini gifite ubuso bw'umutuku, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Mo indani harimo ibikoresho bitandukanye birimo imiti itandukanye.

Farumasi nziza isa neza iri muka etajeri k'umweru irimo imiti itandukanye, ahangaha batanga serivisi zijyanye no gutanga imiti iyo umurwayi ayikeneye.

Inzu nini icururizwamo imiti isizwe irange ry'umweru ndetse irimo amakaro, hejuru yayo hari amatara menshi amurika irimo ibikoresho bikozwe mu mbaho, bibitse imiti itandukanye higanjemo ibitswe mu macupa iri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Farumasi icururizwamo imiti igiye itandukanye harimo iri mu dukombe, mu tukarito ndetse n'ifunyitse n'udushashi, iyi miti yose idufasha gukira.

Icyumba gicuruzwamo imiti, kirimo umuganga w'umugabo, wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburya y'umweru, ndetse iruhande rwe, hari etajeri nini irimo imiti itandukanye, higanjemo iri mu dukarito duto, ndetse no mu macupa ari mu mabara atandukanye, nk'ubururu, umweru, ndetse n'umukara.

Igikarito kibamo imiti y'amatungo, yishushanyijeho, inkoko biragaragara ko ari umuti, uhabwa inkoko igihe zarwaye.

Icyumba gikorerwamo inama, kiririmo rumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru, kirimo abantu benshi bicaye higandemo abagabo, harimo umugore wicaye ufite mikoro, wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma ye hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu ndetse n'umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze imbere y'ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere yabo hari umugabo n'umukobwa bafite icyapa kirimo ubuso bw'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu mabara abiri umweru n'umukara agaragaza kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru ririmo urumuri ndetse ryicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore. Imbere hari abagore batatu: umwe muri bo yambaye amarinete ku gahanga n'ikanzu irimo amabara atandukanye, higanjemo iry'umutuku ndetse ku ruhande hari umugore wambaye amarinete, umupira w'umweru ndetse hagati hari umugore wambaye umupira w'umweru. Bose bafase icyemezo kiriho idarapo rya Repubulika y'u Rwanda.

Icyumba gikorerwamo amahugurwa, gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse gifite parafo. Gifite amadirishya manini ndetse kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abana. Imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umukara, inyuma ye hari imeza iriho ibipapuro bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse imihanda yose, bafite icyapa mu ntoki ndetse imbere yabo hari, abapolisi bashinzwe umutekano wabo. Ikindi ni ikigo cy'amashuri cyaje.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere yazo hari imodoka iri mu ibara ry'umukara n'umutuku, yikoreye urubyiniro ruriho bafule zitandukanye ndetse ruriho n'abahanzi batandukanye, imbere yabo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze higanjemo abagabo.

Icyumba gitangirwarwamo amahugurwa atandukanye, gisezwe irangi ry'umuhondo ndetse gifite idirishya rifite irido. Cyicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abana. Imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati iri mu ibara ry'umukara.

Umugabo ukiri muto yambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi ,yambaye n'imigozi ifasha gukora itumanaho harimo aragira inama urubyiruko, mu gihe zananiwe kwifata zijye zikoresha agakingirizo.

Icyumba gitangirwabwamo serivisi z'abavuzi kirumo urumuri ndetse gisize irangi ry'umuhondo, kirimo intebe ikozwe mu mbaho imbere yayo hari umuganga w'umugore wambaye ikarita y'akazi mu ijosi ndetse yambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye higanjemo imiti.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima uko umutima utera hari n'utundi dukoreshwa mu gukorera isuku mu matwi biteretse ahantu hamwe.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi isizwe irangi ry'umuhondo ndetse ifite inzugi zirimo ibara ry'umweru, iriho kandi abarwayi batandukanye bategereje serivisi z'ubuvuzi harimo umugore ukenyeye igitenge wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho, imbere gato hari umurwayi wicaye mu kagare k'abamugaye.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku miti itandukanye, gisizwe irangi ry'umweru ndetse kirimo abaganga batandukanye, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, harimo umuganga w'umugore, ufite ibisuko by'umukara, wambaye amarinete ndetse yambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umurwayi w'umugore, ufite ibisuko by'umukara, ndetse imbere ye hari umuganga wambaye ga ziri mu ibara ry'ubururu, ndetse wambara impuzankano ya muganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari supanete iri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, iruhande rwe ahahagaze abaganga, barimo baramubwira uko ubuzima bwe buhagaze. Bambaye amataburiya yabugenewe.

Inzu nini isizwe irangi ry'ubururu ndetse isakajwe amabati. Irimo umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'imyenda iri mu ibara ry'ubururu. Imbere gato hari imbuga igizwe n'utugaraviye twinshi, irimo kandagirukarabe yifashishwa mu gukora isuku, iri mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini gisizwe irangi ry'umuhondo kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo ababyeyi bateruye abana ndetse bicaye ku ntebe zikozwe mu mbahu, imbere yabo hari umugore uhagaze wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu isizwe irangi ry'ubururu iriho icyapa ndetse irimo umugabo wambaye iataburiye irmo ibara ry'ubururu, imbere ye hari imbuga nini igizwe n'utugaraviye irimo igikoresho cyifashishwa mu gukaraba intoki kiri mu ibara ry'umweru ndetse gifite umugezi hejuru.

Inzu nini isize irangi ry'ubururu ndetse irimo sima, irimo intebe zikozwe mu mbaho zicaweho n'abantu ndetse ku ruhande hari idirishya rihagazeho umusore wambaye ipantaro iri mu ibara ry'ubururu ndetse imbere ye hari imbuga nini irimo igikoresho cya kandagira ukarabe.

Icyumba kinini gisize irangi kirimo televiziyo imanitse. Munsi yayo hari icyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Imbere gato hari umugabo uhagaze wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru. Imbere ye hari intebe zikozwe mu mbaho zicaweho n'abantu.

Ururabo ruririmo ibara ry'umuhondo imbere yarwo hari icyapa kinini gifite ubuso buri mu ibara ry'umweru, kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, agaragaza ikigo nderabuzima cya Nyagatare, imbere gato hari ibiti bitandukanye.

inzu nini i isizwe irarange ry'ubururu, iriho icyapa gifite ubururu bwijimye ndetse yanditsweho amagambo arimo ibara ry'umweru, kiriho ibishushanyo by'umuryango umugabo umugore ndetse n'abana babiri iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwayo hari umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u rwanda ndetse imbere yayo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi ndetse n'indabo yiganjemoziririmo ibara ry'umuhondo.

Muri hoteli haba hari serivise zitandukanye ndetse n'umuteguro usa neza, aha harimo udusahane n'udufoke n'utuyiko ndetse n'udupapuro tw'isuku.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi gifite urugi ruri mu ibara ry'icyatsi kirimo umuganga w'umugabo wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya y'umweru ari guha serivise umurwayi w'umugabo wambaye ishati, hirya gato hari agatebe gakozwe mu mbaho.